Inama irimo abantu benshi cyane, biganjemo abagore inzego z'umutekano n'abapolisi, bakaba barimo kugenda baganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, aha ngaha akaba ari mu nama yakoranyijwe n'abayobozi.

Abayobozi bagiye batandukanye bakaba bari mu nama, imbere yabo hakaba hari amazi bagenda bifashishwa mu gihe barimo kugenda baganirizwa, ahangaha akaba ari mu nama.

Umugabo uhagaze akaba inyuma ye hariho intebe zitarimo abantu, ahangaha batiye ni ahabereye inama, bakaba barimo kugenda baganizwa cyane cyane ku nsanganyamatsiko bateguye.

Abayobozi bari mu nama biganjemo umugore urimo kugenda wandika afite amarineti akaba afite imisatsi y'umukara, ku ruhande hakaba hariho n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ku meza bicayeho mu gihe hariho amazi yo kunywa.

Imbaga y'abantu benshi bari mu nama harimo abaje gusaba serivisi zigiye zitandukanye, bakaba bari kubanza bagahugurwa, hanyuma bakagenda babandika, hanyuma hari n'abafite ibipapuro barimo kugenda berekana bigaragaza impamyabushobozi.

Umugabo uhagaze imbere akaba arimo kugendahugura abantu, arimo kugenda afasha mu bintu bi bitandukanye, afite indangurumajwi yambaye karuvati ndetse akaba yambaye n'ikoti rya kositimu.

Icyumba cyakoraniwemo abantu benshi cyane bakaba ari abagabo ndetse n'urubyiruko bakaba bitabiriye inama, bahanze amaso umuntu urimo kubagezaho ikiganiro ari na ko na bo bagenda bamutega amatwi.

Umugore uri imbere akaba afite indangururamajwi, inyuma ye kandi hakaba hatatse neza, hejuru naho bikaba ari uko, akaba arimo kugeza imbwirwaruhame ku bantu bitabiriye iyi nama, arimo kugenda aganiriza.

Umugabo uhagaze rwagati, arimo kugenda atanga inama zigiye zitandukanye, azihereza abantu bateraniye hano, arimo kugenda baganiriza ku bintu bigiye bitandukanye, yambaye indorerwamo ndetse n'agashati keza k'ubururu.

Icyumba kirimo inama, cyiganjemo abayobozi ndetse buri wese aho yicaye, hakaba hariho igitabo ndetse kandi hakaba hari n'amazi yo kumunywa, abandi na bo bakaba bafite ikawa, impande kandi hakaba hariho abafite za mudasobwa.

Umusore w'intyoza akaba afite indangururamajwi ndetse kandi afite n'agakayi mu ntoki, ni kwa kundi haba habaye inama umuntu bamuhaye ijambo kugira ngo abashe kubaza ikibazo cyane cyane ku bintu aba adasobanukiwe.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye ahantu mu nama, hakaba hariho abana bari mu myiyereko barimo kubyina ndetse kandi hakurya hakaba hariho abantu bateraniye muri iyi nama barimo kugenda bagaragaza ku mashusho ndetse kandi ahangaha harimo n'abanyeshuri.

Abantu barimo kubyina imbyino gakondo ziganjemo abasore ndetse ni bo bahagaragara imbere, inyuma hakaba harimo abakobwa bateze neza barimo kugenda biyereka ari na ko babyina imbyino gakondo.

Umuntu wambaye imyenda gakondo akaba ari umudamu. Uyu nguyu aragaragaza umuco nyarwanda aho afite imisatsi iteze neza ndetse akaba yambaye n'urunigi. Uyu nguyu yambaye nk'umwamikazi.

Umugore wambaye imyenda gakondo akaba arimo kugenda asusurutsa abantu, mu mbyino gakondo, yambaye urunigi rw'umweru ndetse kandi no ku ntoki, akaba yateze neza amaboko.

Umusore urimo kwitakuma uyu nguyu arimo kubyina imbyino gakondo, inyuma ye hakaba hari abayobozi bagiye batandukanye arimo kugenda asusurutsa ndetse n'abandi bantu bateraniye hano.

Inka ya yindi nziza cyane bita inyambo, ifite amahimbe ateze neza ndetse arigondoye akaba akoze ikimenyetso cy'umutima, aha ngaha ni inyamaswa za zindi zizwi mu muco wa kinyarwanda.

Abantu barimo kubyina imbyino gakondo biganjemo abakobwa, aha ngaha bakaba barimo kugenda basusurutsa abo bari kumwe, aha ngaha hateraniye abantu benshi ndetse aba bariri kubyina bakoresha imbyino gakondo bagaragaza umuco.

Abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe bafite ibikoresho gakondo, bita imyirongi cyangwa se amakondera, baririmo kugenda bayavuza kugira ngo bakore injyana, bakaba barimo kugenda basusurutsa abantu.

Ahantu barimo gucururiza ibisambi cyangwa se ibikoresho gakondo byifashishwa mu gihe umuntu arimo kuyiryamaho, ibingibi babiboha mu bikangaga bikoreshwa cyangwa se bituruka mu bishanga, cyane cyane ibingibi bikorwa n'abantu bakuze.

Umugabo ufite igicurangisho gakondo akaba arimo kugenda ahuhamo kugira ngo bibashe gutanga injyana, uyu nguyu bawita umwirongi akaba arimo kugenda awuvuza kugira ngo abashe gukora injyana zigiye zitandukanye mu buryo bwa gakondo.

Umugabo uhagaze imbere y'inka za zindi bita inyambo, za zindi zigezweho, zikurura ba mukerarugendo, akaba ari nko kugenda azirikana kuko ari kimwe mu byiza nyaburanga by'u Rwanda, Bikurura ba mukerarugendo.

Bimwe mu bigaragaza imico ya kera byiganjemo abami b'u Rwanda, uko baterekaga amasunzu uko bagiraga imisaitsi yabo kugira ngo baze kuba basa neza.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe, hakaba hariho abantu barimo kugenda babasusurutsa, hakaba barimo kwifuriza abantu umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na gatanu. Harimo abari kubyina imbyino gakondo n'abandi bari mu myiyereko.

Mu muhanda rwagati hakaba harimo imodoka zirimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, hakaba hariho ikamyo ndetse hariho na cya cyuma gifotora abantu mu gihe barengeje umuvuduko, aha ngaha ikinyabiziga iyo kihageze kiba kigomba kwitonda.

Ikigo cy'amashanyarazi hakaba harimo abakozi babishinzwe bakaba barimo kugenda bakusanya utuntu no kugenda batugira neza badutekinika. Aba ngaba baba ari abahanga ku buryo akantu kagize ikibazo bahita babimenya bakagakosora.

Umuhanda urimo amatara arimo kugenda yaka cyane, ndetse aha ni aho abantu bagenda banyura, mu masaha ya nijoro aho nta kibazo bashobora kugira cy'umwijima, kuko haba hakeye kubera amatara aba arimo kugenda yaka.

Umugabo urimo kugenda amanika agakoresho kabara umuriro mu gihe bawuguze, aha ngaha uyu muntu bakaba barimo kugenda bamushyiriramo umuriro mu nzu ye kugira ngo abashe gucana cyangwa se kuba yashariza amatelefoni.

Mu muhanda mu masaha ya ninjoro aho hari kunyura imodoka irimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, hakaba hariho n'ibyapa byamamaza, aha ngaha hakaba hariho amashanyarazi agenda amurikira abantu mu bice bigiye bitandukanye.

Umunara muremure ndetse ku ruhande hakaba ari aho bafatiye amashanyarazi, hahandi bita kuri taransifo, hakurya hakaba ariho inzu nyinshi cyane zifite amabati atukura ndetse inyinshi muri zo zirasa.

Ahantu hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibimeze nk'iminara ndetse bikaba bigiye bicumekiranye, aha hakaba ari aho amashanyarazi akurwa mu gihe barimo kuyarahura, bayajyana mu bindi bice bigiye bitandukanye.

Ahantu hari amazu agiye atandukanye ndetse hejuru hari ipoto ririho amatsinga agana mu bice bigiye bitandukanye, ajyana amashanyarazi mu ngo ndetse n'ahandi hantu hakorwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Ahantu hari ibikoresho bijye bitandukanye byiganjemo iby'amashanyarazi, hakaba hari amazinga ajyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye, akaba hariyo n'ibindi byubatse bimeze nk'umunara, aha ngaha ni agace karimo amashanyarazi.

Ahantu harimo kubakwa ikigo gishinzwe ibijyanye n'amashanyarazi, hakaba hari iminara bagiye bacumemekeranya, indi nayo ikaba ihagaze ikaba iriho n'ibitsinga bigiye bigana mu bice bigiye bitandukanye, ariho bafatira umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako nini cyane yiganjemo amamashini agiye atandukanye yayandi atanga umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari kuri sitasiyo y'umuriro aho bashobora gufatira amashanyarazi bayajyana mu bice bigiye bitandukanye byo mu gihugu.

Ahantu hari ibijyanye n'amashanyarazi hakaba hariho n'abakozi bagiye batandukanye, barimo kugenda bakora ibyapfuye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza nkuko baba babi biteganyije.

Ahantu hari ibintu byinshi byiganjemo iminara ndetse n'ibindi bisinga bigiye bicometse, ahangaha ni aho baba bashobora gufatira umuriro w'amashanyarazi mu bice bibiri bitandukanye bawujyana mu bindi bihugu cyangwa se mu tundi duce tudafite umuriro.

Inyubako imeze neza cyane ikaba isakajwe amabati atukura ndetse ikaba ifite ibice bigera kuri bitatu, aha hose hakaba hari ahakorerwa n'inzego za Leta, imbere kandi hakaba haparitse imodoka.

Inyubako ifite amarangi akiri mashyashya, ikaba isize amarangi y'umweru ndetse n'ay'umukara, hasi inzugi zayo zikaba zisa icyatsi ndetse n'amadirishya akaba asize irangi ry'icyatsi.

Umugore urimo kugenda kuri bya biraro, byabindi baba barubatse ku buryo biba biri mu kirere, umuntu agenda yambukaho afata ku ruhande ku buryo adashobora kugwa. Ndetse kandi ibi ngibi biboneka ahantu hagiye hatandukanye.

Ahantu umuntu ashobora kunyura mu gihe agiye kwinjira mu gihugu cya Uganda, hakaba hari ikibigaragaza hari icyerekezo cyerekana ko waba ugeze mu kindi gihugu, hakaba hariho umugabo wambaye nka nyakubahwa Perezida w'u Rwanda.

Ahantu bafatiye amashanyarazi hakaba hari ibitsinga bigiye mu bice bibiri bitandukanye, bikaba bigiye ku mapoto afite amatara amurikira abantu mu gihe cya nijoro ku buryo badashobora guhura n'ikibazo cy'umwijima, hakaba hari abana bari kugenda mu muhanda.

Ahantu hari ikigo nderabuzima cya girubuzima hakaba hari ibikoresho ushobora kwifashisha mu gukaraba intoki mbere yo kuhinjira, hakaba hari abantu baje gusaba serivisi zijyanye no kwivuza.

Amazu ari ahantu hameze nk'Umudugudu w'ikitegererezo hari inzu zubatse mu buryo busa aho zisakaje amabati atukura kandi zikaba zubakishije amatafari ahiye zikaba zifite inzugi z'umukara.

Ahantu hagaragara sitade ya Nyagatare, hakaba hariho abantu babiri barimo kugenda batambuka, hakurya hakaba ariho abafana benshi biteguye kureba umukino ugiye kuba, bakaba ari abafana.

Mu muhanda rwagati aho hari icyapa kigenda gihereza abantu ikaze, cyane cyane abaje mu karere ka burera, hakaba hariho amamodoka arimo kugana mu byererekezo bigiye bitandukanye ndetse kandi ahanga akaba ari ku mupaka.

Agace karimo kugenda gakorerwamo inyubako zi'igihe zitandukanye, aho hariho abafundi cyangwa se abantu bakora ibijyanye no kubaka, bakarimo kugenda bateratiranya imbaho kugira ngo bagende bubaka.

Inyubako zigera kuri eshatu ndetse zishobora kuba zinarenga, hakaba hariho aho umuntu ashobora kwinjirira, hakaba hari amarembo ndetse kandi zikaba zubatse muri bwa buryo inzu ziba zigerekeranye, hakurya ha akaba hariho umunara.

Aantu hateraniye abantu benshi bakaba barimo kugenda binjira muri sitade, aha ngaha ni ahabera ibirori bigiye bitandukanye, birimo ibijyanye n'imyidagaduro, aha ngaha bakaba biganjemo abaturage ndetse n'abaturiye kano gace.

Ahantu hari bya biraro byo mu kirere, aho ku ruhande hariho senkenge, aho umuntu agenda afata kugira atabasha guhanuka, hakaba hariho umuntu urimo kugenda atambuka, agana mu bindi byerekezo bigiye bitandukanye ndetse ni ya mateme agezweho.

Ibikorwa remezo birimo kubakwa ahangaha hakaba hari iteme ryubatswe, hakaba harimo abantu barimo kugenda barica hejuru, munsi hakaba harimo umugezi ufite amazi asa nabi, urimo kugenda unyura munsi y'iteme.

Ikibuga cy'umupira cyangwa se sitade hakaba hariho aho abantu bicara mu gihe barimo kureba umupira, hakurya hakaba harimo ikibuga ndetse kikaba gikikijwe n'izindi mpande zigiye zitandukanye, bigaragara ko kitari cyuzura kikiri mu nzira zo kuvugururwa.

Abantu bakoraniye ahantu hamwe bakaba barimo kugenda baganirizwa, higanjemo abayobozi barimo kugenda batanga ikiganiro yicaye ku ntebe z'ibiti ndetse zazindi umuntu yegamaho bakaba bicaye munsi y'ibiti.

Ahantu hari abantu benshi aha ngaha ni ikigo kiba gishinzwe abantu baba bimuka bajya mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, aha ngaha ni aba baje gusaba ibyangombwa bigiye bitandukanye kugira ngo bimukire mu gace runaka.

Ahantu hakaba hari ibibumbano bigiye bitandukanye byiganjemo ingagi zigera kuri eshatu, hakurya hakaba hariho icyapa gihereza abantu ikaze baza muri aka Karere ndetse ahangaha kandi bikaba ari bimwe bikurura ba mukerarugendo.

Abantu barimo kubaka ikiraro hakaba ari uburyo bwo gufasha abaturage kugera aho bagomba kujya batiriwe bagorwa no kwambuka, hakaba hariho ibiti bagiye bashinga munsi, hejuru bakaba barimo kugenda bashiraho sima.

Ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye, zubatse mu buryo buryoheye amaso ndetse hakurya hakaba hariho, aho umuntu ashobora kogera, aho ni muri pisine, hakaba hazengurutswe n'ubusitani bumeze neza, bufite uturabo bagiye baconga ndetse n'utuzu umuntu yakwicaramo.

Imbaga y'abasore benshi bahagaze imbere y'ikigo gishinzwe kugorora abakoze ibyaha muri Nyagatare, hakaba bambaye amakabutura y'umukara ndetse bambaye n'inkweto zisa, bambaye n'amasogisi y'umweru.

Inyubako nziza cyane imbere yayo hakaba haparitse imodoka za zindi zifashishwa mu gutwara abarwayi igihe barebye cyangwa se bari mu kubimurira ku bindi ibitaro kugira ngo babashe guhabwa ubundi butabazi bw'ibanze.

Umugore uhagaze rwagati arimo kugenda atanga ubutumwa bugiye butandukanye, akenyeye igitambaro ndetse kandi arimo kugenda afasha abantu kugira ngo bagendere ku gitekerezo cye.

Abagore benshi bahagaze imbere, inyuma yabo hariho n'abagabo bakaba bari mu kugenda batanga ubutumwa bugiye butandukanye kuko harimo n'umugore umwe ufashe indangururamajwi arimo kugenda atanga ubutumwa.

Ahantu hatatse cyane hateraniye abantu benshi ndetse ahantu bicaye ni bwa buryo butegurwa ahantu habaye ibirori, aho baba bafashe amahema yano y'umweru bakayategesha ibyuma abantu bakicara munsi nta kibazo bafite.

Imbaga y'abantu benshi bakaba bari mu kababaro aho bafite indabo barimo kugenda bashyira ku mibiri y'abantu bapfuye bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ahantu mu kibuga, imbere yabo kandi hakaba hariho abantu barimo kugenda babaganiriza, biganjemo abayobozi n'inzego z'umutekano, abapolisi ndetse na Dasso. Bakaba barimo kugenda babagezaho serivisi zigiye zitandukanye.

Abagabo bagiye batandukanye, biganjemo abayobozi bambaye neza barimo kugenda baganira ndetse umwe muri bo afite inkoni, hakurya hariyo imodoka, abantu nkaba akenshi ari abashinzwe ibijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo inzego z'umutekano ndetse n'abaturage muri rusange, akaba ari Intara y'Iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare, bakaba barimo kugenda batanga ubutumwa bugiye butandukanye aha ngaha ni ukwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Umugabo uhagaze imbere rwagati, arimo kugenda afasha abantu bateraniye hano, harimo kugenda abasobanurira ibijyanye n'inzego z'umutekano, cyane cyane aha ngaha aba ari kwibanda ku butabera.

Rimwe mu modoka zitwara abagenzi zibajyana mu bice bigiye bitandukanye mu buryo bwihuse mu gihe haba hariho abantu bagana mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Imodoka y'ikigo gitwara abantu kikaba gitwara abantu bagiye mu bice bigiye bitandukanye, aho hariho imodoka irimo kugenda igana mu byerekezo bigiye bitandukanye hakurya kandi hakaba hariho abantu baje gutega.

Ahantu hari utwapaki tuyobora abantu mu bice bigiye bitandukanye, aho hariho n'imibare igiye itandukanye, hakaba hari umuhanda wa kaburimbo hariho n'aho abantu bagenda banyura mu gihe barimo kugenda n'amaguru.

Abamotari babiri barimo kugenda baganira, abangaba bashinzwe gutwara abantu n'ibintu babajyana mu bice bigiye bitandukanye mu gihe babibasabye nabo bakishyurwa. Abangaba barimo kugenda bagana mu bice bitandukanye kugira ngo bahure n'abandi bantu.

Mu muhanda harimo umuntu uri kugenda ku ruhande kandi hakaba hari icyapa gitegeka abantu kuzenguruka mu gihe bageze aha ngaha, bikunze kuboneka aho imihanda iba ihurira igiye itandukanye igera kuri itatu.

Ahantu hari inyubako yubatse ndetse imbere hakaba hariho amakaro, hakaba hariho aho umuntu yinjirira mu gihe yinjiye agiye gusaba serivisi zigeze zitandukanye, hakaba hariho umugabo urimo gushaka kwinjira muri iyi nzu.

Ahantu hari umumotari utwaye umugenzi imbere ye hakaba hari imodoka ifite igice kijyamo imizigo kirekire, bakaba barimo kugenda banyura iruhande rw'abantu berekeza mu bice bigiye bitandukanye.

Abantu barimo gukora umuganda biganjemo urubyiruko ndetse n'abagabo, bakaba barimo kugenda basibura inzira kugira ngo abantu bage batambuka bameze neza nta kibazo.

Umugabo ukora mu bijyanye n'umutekano yambaye ingofero ndetse yambaye n'amarineti hasi, hakaba ariho abandi bagenzi be bicaye nabo bambaye impuzankano ya Polisi y'u Rwanda, bakaba amanitse akaboko.

imbaga y'abantu benshi biganjemo urubyiruko bakaba abenshi muri bo bafite amasuka ari nako bagenda bayamanika abandi bari hasi barimo kugenda bakora umuganda bakorera hamwe basibura inzira ndetse kandi batema n'ibihuru.

Itsinda ry'abantu biganjemo abakorerabushake barimo kugenda bubakira umuntu inzu ndetse inzu yaruzuye barimo kugenda bubaka ubwiherero mu rwego rwo kumufasha kwikura mu bukene.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abakora mu nzego z'umutekano ndetse n'abaturage muri rusange, bakaba barimo kugenda bakora umuganda batema ibihuru ndetse banagenda basibura inzira kugira ngo abantu babone aho banyura.

Abagabo bagera kuri bane barimo gukora umuganda, biganjemo abakora mu nzego z'umutekano, hakaba barimo abasirikari ndetse n'izindi nzego, bakaba barimo kugenda bakora umuganda batunganya inzira.

Urubyiruko rwiganjemo abasore bakaba barimo kugenda bafata ibyondo aha ngaha barimo kugenda bakora ibikorwa byo gufasha ndetse barimo gukora n'umuganda, aha ngaha higanjemo abasore bakiri batoya.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru ni babiri, bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, bamwe bambaye impuzankano y'ubururu ndetse undi yambaye iy'umuhondo ndetse hakaba hagiyemo n'utubara tw'umukara.

Abakinnyi bagiye batandukanye barimo kugenda binanura ari nako bagenda bitoza, aha ngaha biteguye kuba bakina umukino kugira ngo bahure n'ikipe bahanganye baze kwikuramo iyatsinze.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abagabo bamwe barahagaze, harimo inzego z'umutekano bari mu nama, barimo kugenda bakemura ibibazo bigiye bitandukanye byabereye aha ngaha.

Ibigaragaza amakipe uko azagenda ahatana ndetse n'amatariki bazagenda bahataniraho, aha ngaha ni rya rushanwa rya Kagame umurenge, hakaba barimo abagore cyane cyane bageze muri kimwe cya munani.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakaba barimo kugenda bitoza, bafite agapira barimo kugenda bakina ndetse kandi hakurya hariho n'abandi bantu barimo kugenda bitegereza ibijya mbere, abongabo tubita abafana.

Abantu bicaye muri sitade bakaba bahanze amaso imikino irimo kujya mbere, aha ngaha ni muri sitade bakaba barimo kugenda bihera ijisho imikino irimo kugenda iba muri aka kanya.

Ikipe y'umupira bakaba ari ikipe imwe bambaye impuzankano ifite imipira y'ubururu, ikaba ifite amapantaro cyangwa se amakabutura ya orange, bakaba bambaye n'inkweto zifashishwa mu gukina arizo bita godiyo.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abakinnyi b'umupira, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano ifite amashati y'abantu biga mu mashuri abanza, hakaba arimo abatambaye imyenda bishimiye intsinzi kuko umukino urangiye.

Ahantu hari ikibuga cy'umupira hakaba harimo abantu bakeya barimo kugenda batera umupira ndetse ahangaha hariho tapi, hakurya hariho ahantu hateganyirijwe ko abafana bazajya bicaramo mu gihe barimo kureba umupira.

Umukino w'amaguru aho hariho amakipe agera kuri abiri bakaba barimo gukina, bamwe bambaye impuzankano ifite amasogisi y'umuhondo n'amakabutura y'umuhondo, iyindi kipe yo yambaye amakabutura y'ubururu ndetse n'imipira y'ubururu.

Abana barimo gutera agapira biganjemo abasore bakaba barimo kugenda bidagadura, ariko bishimisha, bamwe muri bo bambaye ibirenge ndetse umwe muri bo yambaye inkweto zifite n'amasogisi maremare.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakaba barimo kugenda bidagadura n'amakipe abiri, imwe yambaye impuzankano igizwe n'imipira y'umukara ndetse n'amakabutura y'umukara, indi yo ikaba yambaye iby'imyeru.

Akayira kagana mu byerekezo bigiye bitandukanye by'aha hantu, hakaba arimo umugore urimo kugenda atambuka, agana nk'ibyerekezo bigiye bitandukanye by'umuhanda ndetse arimo kugana, iwe mu rugo.

Mu muhanda ahantu hari akayira abanyamaguru bagenda banyuramo hakaba hariho, aho umuntu anyura mu gihe aba yitaruye imodoka, agenda yisanzuye ku buryo imodoka zidashobora kumugonga. Ahangaha iboneka mu mihanda ya kaburimbo.

Imodoka y'ikamyo ikaba iri guca ahantu mu gaturage, ndetse kandi hakakaba ariho amatara yayandi amurika mu gihe cya nijoro, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'amashyamba agiye atandukanye y'ibiti birebire nka bya bindi bya kimeza, bituma hahorana ubuheherere.

Imugabo urimo kugenda mu muhanda ari wenyine ni ya mihanda ya kaburimbo ,aho ari kunyura mu mihanda ya y'indi y'abanyamaguru arimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, inyuma ye kandi hariho icyapa kigaragaza ko ari ku ivuriro.

Umunyeshuri yambaye ikabutura ya kaki ndetse n'agashati k'umweru ahetse igikapu, arimo kugenda mu gahanda ka kaburimbo, akaba ari kunyura mu nzira y'abanyamaguru kugira ngo abashe kugera ku ishuri.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti bige bitandukanye ku ruhande hakaba hariho insina bigaragaza ko hari icyapa kerekana ko imbere hariho ikorosi, aho ibinyabiziga bigomba kwitonda bikagenda gake igihe bigeze muri aka gace.

Agahanda kari ahantu mu giturage hakaba ariho aho umuntu agenda anyura, agana mu byerekezo bigiye bitandukanye mu gihe arimo kujya iwe mu rugo, akaba ari umuhanda w'igitaka unyurwamo n'imodoka cyangwa se amagare ajya mu giturage.

Umugabo urimo kugenda ku igare akaba ahetse ibitoki bigera kuri bitatu, aha ngaha ari kugenda ni mu muhanda wa kaburimbo akaba ari kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye kugira ngo abashe kugera aho agomba kujya.

Ibisima bigiye bitandukanye, bagiye bashyira ahantu amazi anyura, ahangaha kandi bikunze kuboneka ahantu hari umuhanda wa kaburimbo ndetse kandi bikaba bituma amazi agenda yisanzuye, mu gihe umuntu nawe ashobora kunyura hejuru.

Umusore ndetse umeze nk'umuyonzi akaba yambaye twa tujiri abanyonzi bambara, akaba yikoreye udukarito tugera kuri tubiri twa fanta, akaba arimo kugenda atujyana aho batumutumye.

Ahantu hari umuhanda wa kaburimbo, hakaba hahagaze utunyeshuri tubiri, turimo kugendera mu muhanda w'abanyamaguru ndetse uyu muhanda nta bininyabiziga birimo, ni uwa kaburimbo, ndetse aha ngaha kandi hakurya hariho ubusitani buhateye.